Umugabo wambaye agashati k'umweru karimo n ibara ry'umuhondo akaba afite indangururamajwi mu ntoki ari kuvuga bigaragaza ko ari gutanga ijambo mu nama yagiyemo, arishimye kandi rigaragaza ko azi kuvuga.

abantu benshi cyane bahuriye hamwe, bakaba bari mu nama, higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba buri wese imbere ye hateretse icupa ry'amazi ndetse n'kirahure.

Umugabo uri mu nzu bigaragara ko ari umugabo w'umunyamuryango w'ishyaka riri ku butegetsi mu Rwanda rya FPR, akaba yambaye imyambaro y'umukara iriho ikirango cya FPR.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye aho higanjemo abagabo bambaye amadarubindi na karuvati, ndetse buri wese imbere ye hakaba haretse icupa ry'icyo kunywa kugira ngo bakomeze batange ibitekerezo.

Umugabo uhagaze imbere, wambaye agapira k'amaboko magufi, afite indangururamajwi mu ntoki, ari kugeza ijambo ku baturage bari mu nama nubwo batari kugaragara neza.

Umugore wambaye amadarubindi ndetse n'ikanzu, akaba ari ahantu afite imisatsi myiza cyane yanyereje, ari kugenda ayitaho kugira ngo imere neza cyane.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe bari mu nama, aho higanjemo ab'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore. Bakaba bafite mudasobwa imbere yabo bari kugenda bakoreramo, barebamo bitewe n'icyo bagezeho.

Umugore wambaye amadarubindi ufite bibiliya mu ntoki, akaba afite n'indangururamajwi ari kugenda aganiriza abitabiriye inama aho inyuma ye ari icyapa cyanditseho amagambo ngo bikorere mu isibo.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo akaba yambaye n'agapira k'itiriningi bigaragara ko ari umusirikare, afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye n'ingofero aho ari gutanga ijambo.

Abagore babiri bahagaranye aho umwe ari umukecuru undi akaba ari umugore ukiri muto, inyuma yabo handitse amagambo ari ku cyapa, ari mu ibara ry'umweru avuga ngo "bikorere mu isibo".

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bari kwifotoza bigaragaza ko bishimye kubera ibikorwa runaka bigiye kubera aha hantu.

Umugabo wambaye agapira k'umweru gafite ijosi ry'umukara, akaba yambaye n'amadarubindi ahagaze imbere ku gatuti gasa ubururu ari kuvuga ngo rubyiruko menya amateka yawe.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, aho imbere hari umugabo ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari ikirangantego cya Repubulika y' u Rwanda, handitseho amagambo ngo "rubyiruko menya amateka yawe."

Umugabo ufite imisati y'amasunzu akaba afite icumu ndetse n'ingabo n'ibyanwa binini bigaragara ko ari umugabo ukomeye cyane mu Rwanda ndetse yahoze ari n'umwami.

Icyansi ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi bigize umuco nyarwanda, aho bagikamiramo amata, hanyuma bakayaha umuntu, akanywa, akamererwa neza maze ubuzima bukarushaho gutera imbere.

Abantu bagiye batandukanye, bahuriye hamwe mu gitaramo cy'ubukwe, aho hari umugore wambaye imkeyinnyero y'umweru, wateze amaboko, ari kubyina, abari aho bose bamuhanze amaso kandi bishimye.

Uduseke tugera muri dutatu, tukaba ariduseke twiza cyane tw'umuco nyarwanda, aho batwifashishaga bari gutura abantu, bakatujyanamo imyaka, hanyuma bakayishyira umuntu akanezerwa.

Abantu bakora muri gahunda z'umuco nyarwanda, hakaba harimo umusaza ufite umwirongi ari kugenda awuvuza bigaragara ko yishimye cyane ndetse akunda umuco nyarwanda.

Igisabo kirambitse ahantu, kimeze neza cyane, bigaragara ko ari cyiza. Rero ni byiza cyane ko iki gisabo kigomba kuba gifite n'inzindaro, ituma nta kintu cyinjiramo imbere.

Abantu bafite ibikoresho gakondo bizwi nk'imyirongi, bakaba bari kugenda babivuza babyumva kugira ngo babashe guteza imbere umuco nyarwanda maze ntugacike.

Isoko ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, aho muri iryo soko harimo imisambi baje kugurisha, ikaba igiye irambitse hasi, igihe waba uwukeneye uraza hano ukawugura ku mafaranga make.

Ingoma ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi cyane biranga umuco nyarwanda aho kera mu birori habaga hari ingoma bifashisha bari guhonda kugira ngo ibirori bize gushyuha.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku ndetse akaba yambaye agapira kanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru hakaba hari inka vziri inyuma ye ku buryo ari kwerekana ko zamuteje imbere.

Umuntu ufite umuheto, aho ari kugenda arasa bigaragara ko ari umuhigi, inyuma ye hari umugabo muremure cyane wogoshe amasunzu, bigaragara ko ari umwami Musinga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari ingoro y'umwami, ikaba yubakishijwe ibyatsi, ifite n'urugo rwubakishije ibiti bigiye bitandukanye. Amarembo akaba afunguye.

Ibyansi ni bimwe mu bikoresho bikunze kwifashishwa mu muco nyarwanda, aho biba birimo amata, aya mata rero anyobwa n'abana bakiri batoya kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Imodoka zigera muri ebyiri z'ibikamyo zitwara imizigo, zikaba ziri ahantu mu muhanda wa kaburimbo, ziri kwambuka ikiraro. hakurya hari agasozi gateyeho ibiti birebire cyane.

Ahantu hubatse amapironi menshi cyane agiye atandukanye, aho aya mapironi ari ingirakamaro cyane kuko igihe cyose bajyana umuriro ku baturage, bifashisha aya mapironi.

Ahantu bakorera ibikorwa bigiye bitandukanye cyane cyane ibikorwa by'ubusuderi, aho haba hari abantu babugenewe bazi gukora ibi bikorwa, bifashishije umuriro w'amashanyarazi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo abagabo b'abazungu ndetse n'abirabura, bakaba bari mu gikorwa cyo kwita ku bijyanye n'ingufu z'umuriro w'amashanyarazi aho bambaye utujiri twabugenewe.

Umugabo wambaye itaburiya iri mu mabara agiye atandukanye akaba yambaye n'akajirire k'umuhondo n'icyatsi n'igisarubeti akaba akora mu bijyanye n'ingufu z'umuriro w'amashanyarazi.

Ikimodoka gitanga ubutabazi bw'ibanze ahantu habaye inkongi z'umuriro, haba hari abantu babyigiye baba bambaye utujiri bakora muri izo serivise aho bagutabara byihuse.

Ibiti birebire by'amapoto bitwara insinga z'amashanyarazi, aho ibi biti ari ingenzi cyane, kuko bitwara insinga bigatuma umuriro ubasha kugera ku baturage, hanyuma na bo bagatera imbere.

Ibyuma byinshi cyane bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho bikozemo amapoto ndetse n'amapiloni. Aha ngaha rero no ku rugomero rw'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda.

Umugore uri ahantu muri salo akoreramo ari gusuka imisatsi y'abantu aho afite urukoresho bambika umuntu mu muywe rukagenda rumuhungiza kugira ngo umusatsi we uze koroha.

Imirasire myinshi cyane igiye itandukanye, iri ahantu mu gishanga, bigaragaza ko ari bumwe mu buryo bw'ikoranabuhanga, bwifashishwa bari koherereza abaturage amazi, hifashishijwe imbaraga z'umurasire.

Amapironi maremare, akunze kuba ari ahantu mu mubande, aho aba atwara insinga z'amashanyarazi, azijyana mu ngo zijgiye zitandukanye mu Rwanda kugira ngo babashe guteza imbere umuriro w'amashanyarazi.

Urugomero rw'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda rukomeje gutera imbere cyane, aho imirimo yo kuruteza imbere ikomeje gukurikiranwa, aho bagenda barukikiza umuhanda kwa kaburimbo.

Amapironi ateyeho insinga nyinshi cyane zijyana umuriro ku baturage aho aya mapironi ari ingenzi cyane ku buryo iyo umuntu ayitayeho abasha guteza imbere karitsiye

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye biganjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bicaye mu buryo bw'uruziga bambaye udupfukamunwa, bari kuganira bayashyizemo metero.

Amapironi menshi cyane agiye atandukanye ari n'ahantu hatandukanye aho hari rimwe ryuriwemo n'abantu bize ibijyanye no gukanika umuriro w'amashanyarazi bari kugenda babyitaho.

Umugabo ukora ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, akaba yuriye ipoto aho ari kugenda akanika kugira ngo abaturage umuriro w'amashanyarazi ubashe kubageraho neza maze batere imbere.

Umuntu wize ibyo ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, akaba yuriye ipoto aho ari kugenda abikanika kugira ngo abaturage bose umuriro w'amashanyarazi ubagereho, hanyuma acane ,bikure mu bukene.

Inyubako nziza cyane, zubakishije ibikuta biteye amarangi y'ubururu, ndetse hakaba handitseho amagambo ngo: gira ubuzima. Bigaragara ko ari ku mavuriro, aho bita ku barwayi baje babagana.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho irimo amadarapo agiye atandukanye ndetse hakaba hari n'ubutani bwiza cyane, buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ari inyubako ya stade ikinirwamo umupira w'amaguru, ikaba ifite intebe nziza cyane ziri mu mabara y'idarapo ry'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho isakaje amabati y'ubururu, ikaba iteye irangi ry'umweru ku rukuta ndetse ikaba ari inzu iberamo ikusanyirizo ry'amata.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako y'ivuriro ahatangirwa serivise zigiye zitandukanye z'ubuvuzi hateraniye abantu benshi cyane b'abaganga bambaye amadabibindi bari kwifotoza.

Sitade ikorerwamo ibikorwa by'imikino. Ikaba ifite ikibuga cyiza cyane gifite amazamu ndetse n'intebe abafana bicaraho zari mu mabara y'ibendera ry'u Rwanda.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo, ujya mu merekezo abiri, aho hari ubusitani butandukanyije iyi mihanda ndetse hakaba hari n'icyapa kiri mu mabara y'icyatsi, cyerekana amerekezo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho iteye amarangi y'umweru, ikaba ifite urubaraza rwicayemo abantu, ikaba yanditseho ngo urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare.

Inyubako nziza cyane y'ikigo nderabuzima aho yubakishije amabati y'ubururu ndetse iteye n'amarangi y'ubururu, ku bikuta hakaba handitseho amagambo gira ubuzima imbere yayo hakaba hari umudamu uri kugenda ayigana.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bwa kizungu aho cyubakishijwe sima ndetse kikaba kiriho n'amabuye agiye atandukanye, hari kugenda abanyeshuri ndetse kikaba ari ikiraro kiza cyane.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho zisakaje amabati atukura zikaba zifite n'ibyuma bisa umutuku, bigaragara ko ari isoko leta iri kubaka.

Inyubako z'amashuri zisakaje amabati y'umutuku ndetse zubakishije amatafari ahiye, zikaba zifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'umucaca.

Inyubako nziza cyane zubatse mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho zifite ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo ndetse n'umucaca hakaba hashinzemo n'ibendera ry'u Rwanda.

Abantu bicaye bari mu nama, bigaragaza ko harimo abagore ndetse n'abagabo n'urubyiruko, hakaba harimo n'inzego z'umutekano nka gisirikare ndetse na Dasso. Bakaba bari mu nama yiga guteza imbere uburenganzira bwa muntu ndetse n'ubutabera.

Abantu benshi cyane bateraniye mu cyumba K'inyubako nziza iteye amarangi y'umweru ku rukuta, ikaba yicayemo abantu bagiye batandukanye harimo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bafite mudasobwa imbere yabo.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bari mu nama aho higanjemo inzego zigiye zitandukanye za gisirikare ndetse na gipolisi bakaba bakurikiye inama bari kugezwaho n'umuyobozi wabo nubwo atagaragara.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari mu nama. Hakaba higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo. Bakaba bari kugenda bahereza umuntu igihembo k'ishimwe kigaragaza ko yitwaye neza mu kazi ke.

Umugore wambaye imikenyero iyo mitinnyero ikaba iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, akaba yijimye cyane yicaye ahantu hari icyapa cyanditseho ngo kwibuka ku nshuro ya mirongo itatu.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye aho harimo moto ndetse iyo moto ikaba ihetse ibicuruzwa bigiye bitandukanye ivuye kurangura.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'icyapa cyerekana ko aho hantu hari inzira y'abanyamaguru kuko iyo umumotari cyangwa umushoferi ahageze agomba guhagara abanyamaguru bakabanza bakambuka.

Ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera aho ibyo bimera twavugaganamo ibiti ndetse n'umucaca, hakaba hari n'icyapa byo mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku cyanditsemo amagambo mirongo itandatu.

Umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'ubusitani bwiza cyane, buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho harimo n'icyapa cyerekana ko icyicaro cya polisi y'i Nyagatare giherereye muri metero magana tanu.

Imodoka ya kwasiteri iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo aho harikuyuramo n'abandi banyeshuri, ihagaze imbere y'akazu kabugenewe abantu bafatiraho ibinyabiziga, ikaba iri mu mabara y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenrwamo n'imodoka itwara imizigo, ikaba iri mu mabara y'umweru, ikaba iri kugenda iza isatira umuntu wari uri kuyifotora.

Ahantu mu muhanda wa kaburimbo hari ibyapa byinshi bigiye bitandukanye bikikije umuhanda, ibi byapa rero ni ingenzi cyane kuko bituma abantu babasha kumenya iyo bari kujya batayobye.

Umuhanda wa kaburimbo uri mu mabara y'umukara, aho waciyemo umurongo umwe w'umweru, uyu muhanda akaba ari ingenzi cyane kuko iyo muwuturiye, mubasha kubona ibikorwa byinshi by'amajyambere.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'amoko agiye atandukanye y'ibinyabiziga aho harimo imodoka ya kwasiteri itwara abagenzi mu buryo bwa rusange aho iri kugenda mu muhanda yihuta.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'amoko agiye atandukanye y'ibiti ibi biti rero bikaba ari byiza cyane ndetse hakaba hari n'ibyapa byerekana ko hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'aho ibinyabiziga biparika.

Umuporisi wunamye, wambaye impuzankano z'akazi akaba agiye guterura ibuye bigaragaza ko bari mu gikorwa runaka cy'umuganda, akaba agiye kubimburira abandi aterura iryo buye.

Abantu benshi cyane bari hamwe mu gikorwa cy'umuganda aho higanjemo abagabo n'abagore, bambaye udupira tw'umukara bakaba bafite ibitiyo bari kugenda batiyura banaharura mu muhanda.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe aho bari mu nama, bose bakaba bahagaze ndetse n'abandi bicaye, hari umugore umwe ufite indangururamajwi mu ntoki ari gutanga igitekerezo cye na bo bamwumva.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, harimo inzego za gisirikare ndetse n'abaturage. Bakaba bari mu gikorwa cy'umuganda, aho bari kugenda bakorera hamwe kugira ngo barebe ko babasha gutera imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho iyi nyubako ari iya Leta, itangirwamo serivise zigiye zitandukanye aho irimo abantu ndetse n'ibyuma byifashishwa.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bateraniye ahantu hamwe mu murima ariko harimo ubusitani bwiza, bahagaze imbere, hari intebe z'abayobozi babo nubwo batarabaza, abaturage bari gukoma mu mashyi bishimye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, aho hari umugabo uhagaze wambaye amadarubindi n'agapira k'umutuku, arambuye amaboko ari gusuhuza abari aho ngaho, maze nabo bagenda bamwikiriza.

Umugabo w'umuporisi ufite indangurururajwijwi mu ntoki akaba ari kugeza ijambo ku baturage agira ngo ababwire ku buryo ki bagomba kwirinda ibintu bigiye bitandukanye maze bagire ubuzima bwiza.

Umugabo wikoreye ingata ndetse n'ibuye, akaba ari mu gikorwa cy'umuganda, yambaye agashati k'amabara agiye atandukanye, aho ari kugenda mu muhanda kugira ngo abashe gutanga umusanzu we.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu gikorwa rusange aho higanjemo abagore ndetse n'abagabo, abasaza n'abakecuru ndetse n'urubyiruko bakaba bicaye abandi bahagaze bari gukoma mu mashyi bishimye.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bateraniye hamwe mu nama, aho higanjemo ingeri zose, bakaba bicaye munsi y'ibiti, bose barebye imbere, bareba umuntu uri kubakoresha inama.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu gikorwa cy'umuganda, aho higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo bakaba bari kugenda bakora isuku ahantu runaka kugira ngo barebe ko hamera neza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bakina umupira w'amaguru aho bari mu kibuga ari amakipe abiri, imwe yambaye ubururu indi umuhondo, uwambaye ubururu ari kugenda abacenga.

Abantu benshi cyane, bahuriye hamwe, bahagaze muri sitade, harimo abakinnyi, abasifuzi ndetse n'inzego z'umutekano za gisirikare na polisi. Handitseho ngo amarushanwa y'Umurenge Kagame kapu.

Abakinnyi bari mu kibuga aho bambaye imyambaro igiye itandukanye yifashishwa n'abakinnyi bakaba bari kugenda bakina umukino w'amaguru kugira ngo barebe ikipe iraza gutsinda indi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri, hakaba higanjemo abagore ndetse n'abagabo, abasore ndetse n'inkumi. Bakaba bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri imbere hari umuntu, uri kuberekera.

Abakinnyi bari mu kibuga, aho bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu n'icyatsi, umunyezamu yambaye umuhondo. Bari kumwe n'abatoza babo babiri b'abarimu, bakaba bari kwifotoza mbere y'uko umukino utangira.

Umupira wa balo ukinwa nk'umupira w'amaguru, urambitse ahantu mu kibuga kiza gishashemo tapi y'icyatsi, bigaragara ko uyu mupira ukinwa n'abakinnyi baje gukina umupira w'amaguru.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, aho bari mu gikorwa cy'imyitozo ngororamubiri. Bambaye imyambaro myiza cyane, aho bari kugenda bakora iyo myitozo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, higanjemo abayobozi ndetse n'abakinnyi, bakaba bari kugenda mu kibuga, bari kugenda babisikana bigaragaza ko bishimye bose.

Abantu benshi cyane bahuriye mu kibuga aho bari gukina umukino w'amaguru, higanjemo abagabo ndetse n'umugore umwe w'umusifuzi. Umukinnyi umwe yaguye hasi, none bari kugenda bamufata bamuvura.

Abantu bari kugenda mu muhanda biruka, bigaragara ko bari mu myitozo ngororamubiri higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bari kugaragara berekana ko ari mu masaha y'ijoro.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe mu kibuga, aho higanjemo umugabo w'umusifuzi, ndetse n'abakinnyi bakaba bari gukina umupira w'amaguru, aho uyu mukino ari ingenzi cyane.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga kizwi nk'igare, aho uyu muhanda ari mwiza cyane, ugiye ufite ibyapa byerekana amerekezo, hari ikerekana ko imbere hashamikiyeho utundi duhanda, ndetse n'ikerekana ko hari ikorosi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, aho hari icyapa kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, gishushanyijemo umuntu, cyerekana ko imbere hari inzira abanyamaguru bambukiramo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenda unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye aho ufite akayira k'umweru kawugabanyamo kabiri ndetse ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru.

Umugore uri kugenda mu muhanda, umuhanda ukaba ukikijwe n'amapave, hepfo hari ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko giye atandukanye y'ubusitani bw'ibyatsi bwiza cyane.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga kizwi nk'igikamyo gitwara imizigo, inyuma yacyo hari akamodoka gatoya, gatwara abantu ariko ku giti cyabo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga kizwi nka moto, kikaba gitwawe n'umumotari wambaye agapira k'ubururu, uyu muhanda ukaba ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru impande zombi.